Abantu batandukanye harimo umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, akaba yambariyemo imyenda idozwe mu bitenge, akaba ari guhereza umwana mutoya umuti wo kunywa, umwana mutoya wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru n'ingofero ifite ibara rijya gusa umutuku, umwana akaba akikiwe na mama we wambaye imyenda idoze mu bitenge.

Inzu mberabyombi irimo abagore batandukanye, bambaye imyenda igiye itandukanye. Iyo nzu mberabyombi ikaba ifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zifite ibara rijya gusa nka kacyi, izo nkuta zikaba zishushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye harimo igishushanyo cy'umwana, inzu ndetse n'igiti, icyo gikuta kikaba cyanditsweho n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'icyatsi.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye harimo abagabo ndetse bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'uburujimye irimo utudomo tw'umweru bakaba bicaye imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ayo meza akaba ariho ibyapa biriho amazina yabo ndetse ha akaba ariho n'amazi ari mu ducupa tw'ibara ry'ubururu arimo amazi yo kunywa yabo.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye amataburiya y'umweru, n'abandi bambaye imyenda igiye itandukanye ifite amabara atandukanye, bakaba bahagaze imbere y'inzu yubakishije urukuta rusize irangi ry'ubururu, hejuru ku rukuta hakaba hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda yanditse ngo: " Gira Ubuzima.

Abana batandukanye harimo abambaye imyenda igiye itandukanye harimo abambaye imyenda y'umweru, icyatsi n'abandi bambaye imyenda y'ubururu, bakaba bahuriye ku ivomero rusange baje kuvoma amazi yo kuri kano, hakaba hari uwambaye imyenda y'ubururu uri gupompa amazi ava muri kano ajya ku majerekani atonze umurongo.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore, abirabura ndetse n'umuzungu, bambaye imyenda igiye itandukanye harimo abambaye amakote n'amashati y'umweru n'abandi bambaye amashati atandukanye, inyuma yaho hari icyapa kinini gifite ibara ry'umweru kirimo amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umukara.

Abantu bahagaze batandukanye bambaye imyenda itandukanye; harimo abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse bambaye n'amakarita ariho ibibaranga mu ijosi afite imigozi y'ubururu; bakaba bari kumwe n'abandi bantu bambaye imyenda isanzwe igiye itandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore na bo bambaye amakarita mu ijosi; ariho ibibaranga afite imigozi y'ubururu bakaba bayambaye mu ijosi.

Abantu babiri batandukanye harimo umugabo n'umugore bambaye imyenda itandukanye, aho umugore yiteze igitambaro gifite ibara rijya gusa umukara, akaba anambaye ishati ifite ibara rijya gusa ubururu hasi akaba akinyeye igitenge, akaba yegeranye n'umugabo wambaye ishati idoze mu gitenge bakaba bari ku ivomero rusange bose bari kuvomera amajerekani bazanye yose akaba afite amabara asa.

Abana batatu biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano zifite amabara abiri atandukanye, aho bambaye ishati ifite ibara ry'umuhondo irimo ikora rifite ibara ry'ubururu, bakaba bambaye n'amakabutura afite ibara ry'uburu, bakaba bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara akaba yambariyemo ishati ifite ibara ry'umweru, akaba yambaye karuvati ifite ibara rijya gusa umutuku, ahagaze imbere y'akameza karekare k'umweru gafite ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikindi kirango gifite ibara rijya gusa umuhondo ako kameza kakaba gafite ubuso bw'ubururu bwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru, nyuma yaho hakaba hari icyapa kinini cyiriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru, kikaba gifite ubuso bw'ubururu.

Abagabo babiri bambaye imyenda itandukanye, aho umwe yambaye ikote rifite ibara rijya gusa n'ivu, undi akaba yambaye ikote rifite ibara ry'umukara. Bakaba bicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara imbere yabo hakaba hari ameza ariho igitamba gifite ibara ry'umuhondo, ayo meza akaba ariho imirongo ngendanwa ndetse n'amazi. Inyuma yaho hakaba hariho icyapa gifite ibara, ry'umweru kiriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ndetse n'andi ari mu ubuso bw'ubururu mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Abana babiri bambaye imyenda itandukanye harimo uwambaye imyenda idozwe mu gitenge wambaye ishati ndetse n'ipantaro bidozwe mu gitenge, akaba ari kumwe n'uwambaye umupira ufite ibara ry'umutuku ndetse n'ikabutura. Bakaba bateze amaboko ku ivomero rusange ripompwa kugira ngo amazi amanuke.

Umukobwa wambaye ishati iciye amaboko ifite ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'ipanta ifite ibara ry'umukara, ari gupompa amazi kuri kananu avomera mu tubido dufite ibara ry'umuhondo twazanywe n'abana batoya bambaye imyenda y'itaka higanjemo abambaye imyenda ifite ibara rijya gusa n'ibara ry'ubururu n'umweru ndetse n'uwambaye ishati y'ibara ryenda gusa n'umweru.

Umukobwa wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba yambaye inkweto zifite ibara ry'umuhondo, akaba ari kuvomera ijerekani ifite ibara ry'umuhondo mu mazi atemba akaba yageranye n'umwana muto yambaye agapira gafite ibara rijya gusa n'umweru, n'ikabutura y'umukara, n'inkweto z'icyatsi.

Abantu bahagaze batandukanye harimo, abagabo ndetse n'abagore bambaye ingofero zifite ibara ry'umweru ndetse n'imipira ifite ibara ry'ubururu, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda ari mu ibara ry'umweru, yanditse ngo "Shora neza". Inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini gifite ibara ry'umweru kiriho ibirango bibiri bitandukanye.

Umugabo wambaye amarinete y'umukara, munsi yiwe hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, afite ibara ry'umweru, ku ruhande rwiwe hari ubuso bw'umweru bwanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, afite ibara ry'ubururu bwijimye.

Ibiganza bibiri byambaye ishati y'amaboko maremare, ifite ibara ry'ubururu, ibyo biganza bikaba biteze amaboko, ku ivomero rusange ry'isoko ryubakiye, yubakishije inkuta zifite ibara rijya gusa nk'ivu, hakaba harimo amatiyo afite ibara ry'umukara, asohora amazi.

Inzu mberabyombi irimo inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'izubakishije amatafari ahiye, izo nkuta zikaba ziriho ibintu bigiye bitandukanye, aho hariho ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icyapa gifite ibara ry'icyatsi n'umweru, akaba harimo abantu babiri, hakaba harimo umugabo uhagaze wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu bwerurutse ,akaba ahagaze imbere y'umugore wambaye ikanzu idozwe mu gitenge.

Abantu batandukanye harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye amashati afite amabara atandukanye, harimo abambaye amashati y'ubururu abandi bakambara amashati y'umukara, bakaba bafite icyapa mu ntoki gifite ubuso bw'ubururu ndetse n'umweru, kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore n'abana batoya bahagaze bari kureberera umwana mutoya wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umukara yambaye n'ikabutura ifite ibajya gusa nka kati, akaba ari gupompa amazi yo kuri kano ayavomera mu kabido gatoya gafite ibara ry'umuhondo gafashwe n'umwana w'umukobwa wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umutuku ndetse n'jipo ifite ibara rijya gusa n'ivu.

Abantu benshi harimo abahagaze ndetse n'abicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara rijya gusa umuhondo, bambaye imyenda igiye itandukanye harimo abambaye amakote n'amashati ndetse n'imipira nyuma yaho hari icyapa gifite ubuso bw'ubururu ndetse n'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'cyoyungereza ari mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, hakaba arimo umugore wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu n'akajire gafite ibara ry'ubururu bwijimye cyane, kariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru, uwo mugore akaba yambaye rinete, akaba anambaye ikarita iriho ibimuranga mu ijosi, akaba ari kugenda atanga impapuro ku bantu bagiye batandukanye, impapuro zifite ibara ry'umweru, ari kugenda asakaza amakuru.

Umwana mutoya w'umukobwa wambaye ikanzu idoze mu bitenge, asutamye imbere y'ivomero rusange ryitwa kano, akaba ateze ibiganza biri kugwamo amazi aturutse muri kano, hirya yiwe hari amajerekani afite amabara atandukanye harimo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo.

Umugore wambaye agapira gafite ibara rijya gusa umutuku kariho amagambo ari mu ibara ry'umweru hasi akaba akenyeye igitenge gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru akaba akikiye umwana mutoya amwiziritseho igitenge. Uwo mwana akaba yambaye ingofero ifite ibara ry'umweru bakaba bari ku ivomero rusange akaba ari kuvomera indobo ifite ibara ry'umukara.

Abantu batandukanye harimo abantu bakuru ndetse n'abana batoya, aho abantu bakuru bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abashinzwe umutekano bari mu gisirikare cy'u Rwanda, hakaba hari n'abandi bambaye indi myenda igiye itandukanye, bakaba bari mu bukangurambaga bwo kwita ku bana batoya babarinda igwingira.

Umugabo wambaye ishati idoze mu gitenge ifite ibara ry'umuhondo, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara yegamye ku rukuta runini rufite ibara ry'umweru.

Umukecuru ugeze mu myaka y'izabukuru uteze igitambaro gifite ibara rijya gusa umweru, akaba yambaye imyenda idoze mu bitenge, akaba yicaye ku gasonga bugari, atetse inkono yiwe iri ku mashyiga atatu atekeshe inkwi, ku ruhande rwe hari igikombe gifite ibara ry'icyatsi n'umufuniko w'icyuma.

Umugabo wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara, akaba yambaye n'imyenda icikaguritse y'incwabari, akaba yicaye hasi, akaba yambaye n'urukweto rumwe, akaba afite ishashi irimo amazi ndetse n'uducupa. Uwo umugabo akaba afite ikibazo cyo mu mutwe, iruhande rwe hakaba hari ikarito, akaba yegamiye ku rukuta rufite ibara rijya gusa umuhondo n'umweru.

Abantu batandukanye barimo abazungu ndetse n'abirabura bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, bakaba bari mu gikorwa cy'umuganda batera ibiti, akaba hari ishusho igaragara bose bahagaze harimo abazungu ndetse n'abirabura n'abashinzwe umutekano, bita daso bafite icyapa gifite ibara ry'umweru kirimo ibirango bibiri bifite amabara atandukanye harimo icyatsi n'umutuku.

Abagore batandukanye bambaye imyenda itandukanye bicaye ku ntebe ifite amabara y'umukara, imbere hakaba ari ameza afite igitambo gifite ibara ryo gusa nk'umweruru, ayo meza akaba ariho amacupa y'amazi ndetse n'imirongo ngendanwa igezweho yabo ndetse n'impapuro zigiye zitandukanye, bakaba bayobowe n'umugore wambaye umupira w'amaboko magufiya n'ipantaro y'umukara. Inyuma yaho hakaba hari icyapa gifite ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda kiriho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Umugore uteze igitambaro gifite amabara harimo icyatsi, umukara ndetse n'irindi bara rijya gusa nk'umutuku, akaba yambaye amaherena afite ibara ry'umweru ku matwi, akaba yambaye n'umupira ufite ibara rijya gusa nk'umutuku, inyuma yiwe hakaba hari urukuta rufite ibara ry'icyatsi.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara mukeya wisize imbyiro mu maso ndetse no ku maboko, akaba yambaye imyenda icikaguritse yincwabari, akaba afite igitebo kiboshywe mu migwegwe n'amashashi afite ibara ry'umweru n'irindi ry'icyatsi, akaba inyuma y'iwe hari imodoka ifite irangi ry'icyatsi n'umukara.

Umugore uteze igitambaro gifite ibara rijya gusa nk'umuhondo, wambaye umupira ufite ibara rya kaki, hasi akaba yambaye ijipo ifite ibara ririmo ibara ry'umweru n'umukara, akaba akikiye umwana mutoya wambaye agapira k'amaboko magufiya gafite ibara ry'icyatsi, iruhande rwe hakaba hari n'undi mwana w'umuhungu wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara. Bakaba bicaye ku musambi uboshywe mu migwegwe, imbere yiwe hakaba hari inkoko.

Umugore wambaye agakote gafite ibara ry'ubururu bwijimye akaba yambayemo ikanzu ifite ibara ry'umutuku, akaba anambaye ikarita iriho ibimuranga mu gatuza, inyuma y'iwe hariho icyapa gifite ibara gusa nk'umutuku kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ishati idozwe mu bitenge, ifite ibara rijya gusa umutuku ndetse n'ubururu, akaba anambaye ipantaro y'umukara, ahagararanye n'umugabo ufite imisatsi myinshi, wambaye imyenda yacikaguritse, ufite ikibazo cyo mu mutwe, bakaba bahagaze mu nzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, iyo nzu ikaba iriho n'imitako igiye itandukanye.

Amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, afite amabara agiye atandukanye, harimo icyatsi, ubururu, ibara rijya gusa umuhondo ndetse n'umukara, akaba ari mu byerekezo bitandukanye, hari ahagaze, atambitse ndetse n'acuritse.

Ikirango gifite ubuso bw'ubururu, kirimo ibimenyetso bifite ibara ry'umweru, munsi yacyo hari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu ibara ry'umukara. Ku ruhande hari ibishushanyo bigiye bitandukanye; harimo umwana mutoya, umugabo n'umugore bafatanye mu ntoki, umugore uri kumwe n'umwana, n'umugore utwite, ndetse n'umuntu uri gukora. Munsi y'ibyo bishushanyo hari amagambo agiye yanditse, ari mu rurimi rw'Icyongereza. Ibyo bishushanyo bikaba biri mu buso bw'ubururu ndetse n'ayo magambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umweru.

Amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi, umutuku, umukara ndetse n'ibindi birango bigiye bitandukanye birimo ubuso bw'umweru ndetse n'icyatsi, iruhande rw'ayo magambo ari mu ibara ry'icyatsi hari ishusho y'umugore witeze igitambaro gifite ibara ry'umukara wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'umweru ndetse n'ikote ry'umukara, akaba ahetse igikapu mu mugongo.

Umugore uteze igitenge mu mutwe gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara n'icyatsi, akaba yambaye n'ishati idozwe mu gitenge yitwa iribaya, ifite ibara ry'umuhondo, icyatsi, umukara ndetse n'umweru, inyuma ye hari abandi bantu bambaye imyenda igiye itandukanye.

Abana benshi bicaye hasi, bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye impuzankano z'ishuri bigaho, n'abandi bambaye imyenda isanzwe. Abambaye impuzankano z'ishuri bigaho bambaye amashati afite ibara ry'icyatsi ndetse na karavati zifite ibara ry'ubururu, abandi bambaye imipira, abandi bakambara amashati. Bose bicaye bari guseka amenyo yabo y'imbere agaragara.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara mukeya, wambaye igituza hejuru nta mupira yambaye akaba afite isume ku rutugu ifite ibara ry'umweru, akaba afite n'akadodo gafite ibara ry'umweru kifashishwa mu gusukura amenyo ugiye ugacisha hagati y'amenyo, ari kugenda agacisha hagati y'amenyo yiwe asukura amenyo.

Abana benshi biga mu mashuri abanza bambaye impuzangano y'ikigo bigaho, ifite ibara ry'umweru rikaba riciyemo uturongo tugiye ducanamo, dufite ibara ry'icyatsi. Bakaba bambaye amakabutura, afite ibara ry'icyatsi. Bakaba bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki bugiye bufite amabara agiye atandukanye, ndetse n'ibikombe birimo amazi yo kwifashisha mu gusukura amenyo yabo, ibyo bikombe bikaba bifite amabara agiye atandukanye arimo umuhondo, ubururu n'umutuku, n'andi mabara giye atandukanye harimo n'icyatsi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba anambaye na ga z'umweru, akaba afite udukoresho tubiri mu biganza, aho afite urushinge mu kuboko kw'iburyo n'akandi gakoresho mu kuboko kw'ibumoso, akaba ari gutera urushinge mu kanwa k'umwana mutoya ufite ikibazo cy'amenyo, akaba ari kumukorera ubuvuzi bw'amenyo.

Icyumba cy'ivuriro kirimo umuganga wambaye rinete ndetse n'agapfukama gafite ibara ry'icyatsi cyerurutse, akaba yambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ipantaro bisa, akaba yambaye ga zifite ibara ry'umweru, akaba afite ibikoresho byifashishwa mu kuvura umuntu ufite ikibazo cy'amenyo, akaba ari kuvura umwana mutoya wambaye agapira gafite ibara ry'umweru, icyatsi ndetse n'umukara. Uryamye ku gatanda ko kwa muganga gafite ibara ry'umukara. Akaba ari kumusuzuma ikibazo cy'amenyo afite.

Umugabo uri kumwe n'umwana mutoya bose bambaye udupira dufite ibara ry'umweru bakaba bafite utuguzi tw'umweru mu ntoki twifashishwa mu gusukura amenyo bari kudufata bakaducisha hagati y'amenyo yabo mu rwego rwo gusukura amenyo.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho harimo intebe umuganga yicaraho ndetse n'agatanda umurwayi aryamaho, byose bikaba bifite ibara rijya gusa n'umutuku, icyo cyumba cy'ivuriro kikaba gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, kikaba kirimo utubati dufite ibara ry'umweru, n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi bifite ibara ry'umweru n'umukara, hakaba harimo n'indi ntebe iri ku ruhande, ifite ibara ry'umukara.

Umugabo ufite umusatsi mukeya w'umukara, wambaye ishati ifite ibara ry'umweru, akaba afite akadodo gafite ibara ry'umweru kifashishwa mu gusukura amenyo, ari kwireba mu ndorerwamo, ari kugenda agacisha hagati y'amenyo y'iwe ayasukura.

Umugore uri mumyaka y'izabukuru ufite umusatsi w'umweru w'imvi wambaye ishati ifite ibara rijya gusa na kacyi afite ikihure cy'amazi mu ntoki ari guhabwa ibinini mu ntoki n'ushinzwe kumwitaho wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'uburu, wambaye agakoresho gashinzwe gupima uko umutima utera w'umuntu muri ako kanya.

Umugabo uri myaka y'izabukuru ufite umusatsi w'umukara, akaba afite n'ubwanwa bw'umweru wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rijya gusa n'umuhondo n'ipantaro ifite ibara ry'umukara. Akaba yicaye ku gatanda gafite ibara ry'umweru, akaba ari gukoreshwa imyitozo ngororamubiri y'amaboko. Akaba ari kubifashwamo n'umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'umweru.

Umugore uri mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi miremire y'umukara ndetse akaba yambaye amarinete y'umukara, akaba yambaye n'ikanzu ifite ibara ry'umuhondo, akaba yicaye ku nte ifite ibara ry'umweru, imbere yiwe hakaba hari ameza y'ibirahure ateretseho agacupa k'umweru karimo imiti, hakaba hari n'akandi gacupa ari kuvanamo ibinini byo kunywa.

Umugabo n'umugore bageze mu myaka y'izabukuru umugabo ufite imisatsi y'umweru wambaye ishati irimo imirongo igiye inyuranye, iyo shati ifite ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru akaba yambayemo agapira gaafite ibara ry'ubururu bwerurutse kandi afite agasahani k'umweru karimo ibyo kurya kaba kugenda yarira umugore uri mu myaka y'izahabukuru ufite imisatsi yumukara yivanze n'i cyumweru y'imvi.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi y'umweru ndetse akaba anambaye n'umupira ufite ibara ry'ubururu bwijimye n'ipantaro y'umukara. Ariguhagurutswa n'abantu babiri harimo umugore ufite imisatsi migufi ifite ibara ry'umukara wambaye agapira k'amako maremare gafite ibara ry'umuhondo. Yambariyemo umupira w'umweru, akaba anambaye n'ipantaro y'ikoboyi ifite ibara ry'ubururu. Ku rundi ruhande hari umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu. Bakaba bariguhagurutsa umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru.

Umugabo n'umugore bageze mu myaka y'izabukuru, umugabo ufite umusatsi mukeya urimo imvi, n'ubwanwa bw'imvi, wambaye ikote ririmo imirongo, akaba ari gusoma umugore uri mu myaka y'izabukuru uteze igitambaro cy'umutuku, akaba yambaye ikote rifite ibara ry'ubururu bwijimye, akaba ari kumusoma ku itama.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi yumweru y'imvi wambaye umupira w'amaboko maremarerimo ibara rijya gusa n'umweru, akaba yambayemo ishati ifite ibara ry'ubururu uherutse akaba yicaye mu kagare k'abafite ubumuga bwo kutagenda, akaba ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho wambaye ishati y'uburu ndetse n'ipantaro y'ubururu; inyuma yabo hakaba hari intebe irimo imisego ndetse n'igikuta gifite ibara ry'umukara kiriho imitako.

Umugore ugeze mu myaka y'izabukuru, wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara gusa nk'ivu, akaba yambariyemo umupira ufite ibara ry'ubururu bwerurutse, akaba afite akagatambaro gafite ibara rijya gusa umutuku mu biganza byiwe, akaba ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho wambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu bwijimye, akaba yambariyemo n'umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umweru, akaba ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri, y'amaboko.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi y'umweru y'imvi akaba yambaye ishati ifite ibara rijya gusa nk'ivu akaba afite umurongo ngendanwa ufite ibara ry'umukara akaba awufite mu ntoki ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho wambaye ikarita ifite umugozi w'umweru mu ijosi iriho ibimuranga akaba anambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu bwijimye.

Umugabo w'imyaka y'izabukuru ufite umusatsi w'umweru w'imvi wambaye amarinei y'umukara wambaye ishati y'icyatsi, akaba yarengeje umupira w'amaboko maremare ufite ibara rimwe gusa n'umweru akaba afite ikaramu mu ntoki akaba ari kwandika mu ikayi ifite impapuro z'umweru

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru, ufite imisatsi y'umweru y'imvi wambaye malinete afite ibara ry'umukara, kandi yambaye umupira w'amaboko maremure ufite ibara rijya gusa n'umukara ndetse n'ipantaro bisa, akaba yicaye mu kagari k'abafite ubumuga bwo kutagenda, akaba ari gusunikwa n'ushinzwe kumwitaho w'umukobwa wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru ufite umusatsi urimo imvi, ndetse akaba afite n'umusatsi w'umukara, akaba yambaye ishati ifite ibara rijya gusa kaki, ku kuboko kwiwe kw'ibumoso akaba yambayeho igikoresho gishizwe kumupima uko umutima wiwe utera n'umuvuduko w'amaraso, imbere y'iwe hakaba hari imeza ibaje mu giti gifite ibara ryijya gusa na kaki.

Umugore n'umugabo bageze mu myaka y'izabukuru, umugabo akaba yambaye ishati y'umweru, akaba yashyizeho umupira w'amaboko maremare, ufite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba yegeranye n'umugore uri mu myaka y'izabukuru, ufite imisatsi miremire y'umweru y'imvi, akaba yambaye umupira ufite ibara rijya gusa umutuku, bari ku meza bari gufata amafunguro.

Umugore ugeze mu myaka y'izabukuru, ufite imisatsi irimo umweru irimo imvi, wambaye ishati y'amaboko maremare ifite iba rijya gusa na kaki, akaba afite ikirahure cy'amazi mu ntoki, akaba ari kwakira imiti ari guhabwa n'ushinjwa kumwitaho wambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu ndetse akaba afite n'imiti mu ntoki iri mu gakarito k'umweru.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi y'imvi, wambaye agapira gafite ibara rijya gusa umuhondo, akaba anambaye n'akajiri gafite ibara rijya gusa nk'ivu, yicaye mu kagare k'abafite ubumuga bwo ku kutagenda, akaba ari kwitabwaho n'umuforomokazi wambaye ishati ifite ibara ry'uburu bwererutse ndetse n'ipantaro bisa, akaba yambaye agakoresho gapima uko umutima w'umuntu utera gafite ibara ry'umukara, ndetse n'ibindi byuma bishamikiyeho.

Amagambo ari mu gice gifite ubuso bw'ubururu bwerurutse ari mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umweru. Iruhande rwayo hari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ifite ibara ry'umweru afite ubuso bw'ishusho y'umwana mutoya, munsi yawo hari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza arimo ubuso bw'umutuku, ari mu magambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, akaba afite ibara ry'umweru, hakaba n'ibindi birango bigiye bitandukanye biri munsi y'ayo magambo.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru akaba azengurutswe n'ubuso bufite ibara ry'ubururu bwijimye; munsi yayo hakaba hari amashusho y'abantu bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo. Ku ruhande hakaba hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Abantu batandukanye harimo abaganga ndetse n'abaturage basanzwe bambaye imyenda igiye itandukanye, aho abaganga bambaye ga z'umweru mu biganza bakaba bambaye n'impuzankano z'abaganga, bakaba banambaye amakarita ariho ibibaranga mu ijosi afite imigozi y'ubururu, bakaba bari kuvura abaturage babasuzuma indwara zigiye zitandukanye, hirya yabo hari umukoranabushake wambaye umupira w'ubururu w'amaboko maremare ndetse n'ijire imuranga.

Inzu mberabyombi ifite inkuta z'umweru irimo abantu batandukanye, harimo abicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, hakaba harimo abagabo n'abagore bicaye kuri izo ntebe, imbe yabo hakaba hari ameza afite igitambaro cy'umweru, ariho amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse na mudasobwa. Bakaba bayobowe n'umugabo wambaye ikote rifite ibare rijya gusa nk'ivu, ufite inyongeramajwi mu ntoki, ifite ibara ry'umukara. Inyuma y'iwe hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umukara.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe ifite ibara rijya gusa na kaki, bose bambaye udupfukamunwa bambaye n'imiyenda itandukanye, bari kwitabwaho n'abaganga bambaye impuzankano z'ubwirinzi mu gihe k'icyorezo bakaba bambaye amataburiya afite ibara rijya gusa nk'umuhondo n'udupfukamunwa n'ingofero zishinzwe kubarinda ibyorezo.

Abantu bane batandukanye harimo abamansera batatu bateze ibitambaro bifite ibara ry'umwe bose bakaba bambaye n'amarinete, bakaba bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara rijya gusa nk'ivu, bakaba bari gusuhuzanya n'umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikote, nyuma yaho ari icyapa gifite ubuso bw'ubururu kirimo ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda gifite ibara ry'umweru.

Uruziga rugiye rufite ubuso bugiye bufite amabara agiye atandukanye, arimo umweru, ubururu bwerurutse, ubururu ndetse n'ubururu bwijimye. Ubwo buso bwose bukaba bugenda bwanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza; akaba ari ubuso bw'ubururu bwijimye burimo amagambo ari muri ururimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umweru, ndetse n'ubuso bw'ubururu bufitemo amagambo ari murimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umweru; ubundi buso bwose busigaye buka burimo amagambo ariururimi rw'icyongereza afite ibara ry'umukara

Abantu babiri batandukanye barimo umugabo n'umugore bambaye imyenda igiye itandukanye, bose bakaba bambaye amakarita ariho ibibaranga, afite ibara ry'umyeru ndetse n'imigozi y'umweru, bose bakaba bafite ibyapa bifite ibara ry'umukara byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara rijya gusa nk'umuhondo, ndetse n'andi afite ibara ry'umweru, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini kiriho amagambo ari mu ibara ry'ubururu bwerurutse, icyo cyapa kiba gifite ubuso bufite ibara ry'umweru, hakaba hariho n'ibirangantego bigiye bitandukanye.

Ubuso bw'ubururu buriho amagambo ari mu mpine afite ibara ry'umweru ndetse n'irindi jambo riri mu kimenyetso cy'ibiganza bibiri bifatanye bishushanyije inyuguti ya p. Ayo magambo akaba arambuye munsi y'ayo magambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umweru.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu mabara abiri atandukanye harimo umukara ndetse n'indi bara rijya gusa umutuku, hasi hari umugore w'imyaka y'izabukuru wambaye igitambaro gifite ibara ry'umutuku akaba apfutse ijisho rimwe munsi yiwe akaba ari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru, munsi yaho hakaba hari andi magambo ari mu ibara rijya gusa n'umutuku ari mu rurimi rw'icyongereza, hakaba hari n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza munsi manini afite ibara ry'umweru, ndetse n'andi afite ibara rijya gusa umutuku, bikaba biri mu buso bw'ubururu bwijimye. Munsi hakaba hari ikirango cya repubulika y'u Rwanda, n'ikindi kirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda.

Icyumba k'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, hakaba hari ikindi gice gisize ibara ry'icyatsi n'akandi gace gatoya gafite ibara ry'ubururu, icyo k'ivuriro kikaba kirimo ibitanda bifite ibara risa, bikaba byose bifite amashuka afite ibara ry'umweru, icyo cyumba k'ivuriro kikaba gifite parafo ifite ibara ry'umweru irimo amatara y'umweru n'inzugi zifite ibara rijya gusa kaki.

Icyumba k'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse hakaba hari n'igikuta gifite ibara ry'umukara, izo nkuta zikaba ziriho imitako igiye itandukanye ifite amabara agiye atandukanye ndetse n'ibishushanyo, icyo cyumba kikaba kirimo parafo y'umweru ndetse n'agatanda karyamaho umurwayi, gafite ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'ishuka y'umweru, ku ruhande rwako hari agatebe gafite ibara ry'umukara muganga yicaraho icyo cyumba kikaba kirimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye byifashwa mu buvuzi bw'umurwayi waje muri icyo cyumba.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru ziriho imitako ndetse hakaba hari k'urukuta ruriho isaha ifite ibara ry'umweru n'umukara, icyo cyumba kikaba kirimo igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma umubiri w'umuntu ufite ikibazo ndetse kikanareba n'aho icyo kibazo giherereye.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse ndetse n'ipantaro y'umukara wicaye ku dusima twubakishije amabuye ndetse na sima, akaba yicaye munsi y'igiti kinini giteye mu busitani burimo indabyo ndetse n'ibindi biti bigiye bitandukanye.

Inyubako igeretse inshuro ebyiri ifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'igice cyubakishije ibirahuri bifite ibara ry'ubururu, hejuru kuri iyo nyubako hakaba hari amagambo ari mu rurimi rw'igifaransa ari mu ibara ry'icyatsi, imbere y'inyubako hari ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse n'indabyo ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye, harimo umukindo ndetse n'ibindi biti.

Ikigo cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, parafu y'umweru. Hasi hakaba hasize irangi rijya gusa n'ubururu bwerurutse. Muri icyo cyumba cy'ivuriro hakaba harimo utubati dufunze turimo imiti igiye itandukanye. Buri kabati kakaba kometseho agapapuro gafite ibara ry'umweru n'umutuku. Tukaba twanditseho inyuguti zigiye zitandukanye. Muri icyo cyumba hakabamo n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Abaganga bane bambaye impuzankano zisa bose, bakaba bambaye udupfukamunwa, bamwe muri bo bakaba bambaye amakarita ariho ibibaranga mu ijosi afite imigozi y'ubururu, amakarita yo afite ibara ry'umweru. Bahagaze imbere y'inyubako ifite ibara rijya gusa umuhondo n'umweru, hejuru kuri iyo nyubako kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'irindi jambo riri mu rurimi rw'icyongereza. Ari mu rurimi rw'iki,.

Icyumba cy'ivuriro kirimo inkuta zifite ibara ry'umweru, parafo y'umweru ndetse n'amatara y'umweru, icyo cyumba kikaba kirimo ibitanda bifite amashuka afite ibara ry'uburu ibit byose bikaba bimeze kimwe; kikaba kirimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi bwo kuvura abantu baje muri icyo cyumba.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ku gice cyo hasi, hejuru ikaba yubakishije igikuta gisize irangi ry'umweru, kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda yanditse ngo: "Ikigo nderabuzima cya Rwerere". Hanze y'iyo nzu hari ubusitani buteyemo indabyo ndetse n'urucaca.

Ihema ry'umweru ririmo abaganga ndetse n'abandi bantu batandukanye, rikaba ryabereyemo igikorwa cyo gutanga amaraso, hakaba hari imeza ifite ibara ry'umukara iriho udushashi tw'umweru turiho icyapa gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse n'imibare, utwo dushashi tukaba turimo amaraso yagiye akurwa mu bantu baje kuyatanga.

Inzu yubakishije amabuye y'umweru, ikaba ifite inzugi zifite ibara rijya gusa nk'ivu zirimo ibirahure, hejuru kuri iyo nzu hakaba hari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu mabara atandukanye, hari inyuguti zifite ibara ry'umutuku, ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi, kuri iyo nzu kandi ifiteho amatara afite ibara ry'umukara.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru n'amadirishya afite ibara ry'umweru akaba arimo ibirahure, icyo cyuma kiba kirimo imeza zitandukanye zikozwe mu byuma zikaba ziteretseho ibyuma byifashishwa mu kubika amaraso, bifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye harimo abacecuru ndetse n'abasaza bakaba bambaye imipira itandukanye, harimo abacecuru bambaye imipira y'umuhondo hakaba harimo n'abasaza bambaye imipira y'umuhondo, hakaba harimo n'abandi bacecuru bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi cyererutse, bose bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi. Iyo nzu mberabyombi ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru ndetse n'icyatsi.

Inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye. Hakaba hari n'urundi rukuta rwubakishije sima rusize irangi ry'umweru. Imbere ku bwinjiriro hari icyapa hejuru gifite ibara ry'umutuku cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umweru. Imbere y'iyo nyubako hari imodoka zihahagaze. Ku bwinjiriro hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibyuma by'umukara. Hakaba hariho n'icyapa kiriho icyo iyo nyubako ikora.

Ubwinjiriro bw'ikigo nderabuzima cya Matyazo, bwubakishijwe urupangu rufite ibyuma bisize irangi rifite ibara rijya gusa n'ivu, kuri ubwo bwinjiriro hari icyapa gifite ibara ry'umutuku n'umweru, icyo cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, n'icyongereza bifite ibara ry'umweru, kuri icyo cyapa hakaba hariho n'ikirango cya repubulika y' u Rwanda.

Inzu yubakishije amatafari ahiye afite amabati afite ibara ry'ubururu bwerurutse, hanze y'iyo nzu hakaba hari ikigega gifite ibara ry'umukara gishinzwe gufata amazi y'imvura aturutse kuri ayo mabati, kuri iyo nzu hari amagambo yanditseho ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda ari mu ibara ry'umukara, kuri iyo nzu hakaba hariho n'ikindi gikoresho cyifashishwa mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro.

Abantu batatu batandukanye harimo umuzungu wambaye impuzano zifite ibara ry'ubururu hasi no hejuru akaba yambaye n'agakoresho gapima uko umutima w'umuntu utera muri ako kanya gafite ibara ry'umukara akaba akambaye mu ijosi, akaba yegerejyanye n'undi muforomo wambaye itaburiya y'umweru wambariyemo ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu nawe akaba yambaye ako gakoresho mu ijosi, akaba ari kwakira umukobwa ufite imisatsi iziritse wambaye agapira gafite ibara rijya gusa nk'ivu.

Umunyonzi uri mu muhanda wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara akaba ahetse umugore ku igare ry'ufite indobo y'icyatsi. Imbere yabo hari icyapa cyerekana inzu iri imbere yayo icyo ikora. Icyo cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda yanditse ngo ikigonderabuzima cya Gisenyi. Kikaba cyerekana inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse n'inkingi zubakishije sima zisize ibara ry'umweru. Hejuru kw'iyo nzu hakaba hari amagambo ari mu rurimi rw'Igifaransa.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, icyo icyumba k'ivuriro kikaba kirimo abaganga bambaye amataburiya afite ibara ry'umweru ndetse n'udutambaro dushinzwe gufata imisatsi dufite ibara ry'ubururu, abandi bakaba bambaye n'utundi dufite ibara ry'umweru, muri icyo cyumba hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi ariho harimo uducupa tw'umweru tujyamo imiti.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, parafo ifite ibara ry'umweru irimo n'amatara y'umweru, hasi hakaba hari amakaro afite ibara rijya gusa nk'ivu. Muri icyo cyumba cy'ivuriro hakaba harimo utubati tugerekeranyije inshuro zirenze imwe, turimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Muri icyo cyumba cy'ivuriro hakaba harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kujugunyamo imyanda imaze gukoreshwa muri icyo cyumba, iicyo cyumba k'ivuriro kikaba gifite amadirishya y'umweru arimo ibirahure.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya ndetse n'inzugi bifite ibara ry'umukara bikaba birimo ibirahuri, iruhande rw'iyo nzu hari inzu yubakishije amabuye afite ibajya gusa nk'umukara, hakaba harimo igice gifite ibara rijya gusa nk'umuhondo. Ifite amadirishya y'umukara arimo ibirahuri, hanze y'izo nzu hari ubusitani buhate burimo ibyatsi ndetse n'ibiti bitandukanye.

Inyubako ifite inkuta z'umweru ndetse na parafo y'umweru, ikaba ifite inzugi n'amadirishya bifite ibara rijya gusa nk'ivu, hasi hakaba arimo amakaro afite ibara ry'umweru, ikaba ifite n'amatara y'umweru, iyo nzi ikaba irimo n'umutako w'indabyo uri mu gikombe kirekire gifite ibarajya gusa nk'ivu.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru na parafo y'umweru irimo amatara y'umweru; kikaba kirimo ibitanda: kimwe, bibiri, bitatu, bifite amashuka afite ibara rimwe ry'icyatsi, ibyo bitanda byo bikaba bifite ibara ry'umweru, muri icyo cyumba kandi hakaba harimo amarido azengurutse buri gitanda; hakaba harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi bifite ibara ry'umweru.

Inzu ifite inkuta z'umweru na parafo y'umweru, irimo amatara y'umweru, hasi hakaba yasize irangi ry'ubururu ndetse hakaba n'ice gishizemo irangi ry'umweru, mo imbere muri iyo nzu hari igice cyubakishije imbaho zifite ibara rijya gusa na kaki, hejuru kuri izo mbahu hakaba hari urukuta rwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi. Icyo gice kiba cyubakishije imbaho kirimo n'amadirishya harimo ibirahuri.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifite amabati afite ibara ry'ubururu rifite inkingi zifite ibara ry'umweru hejuru ku gice cyo hejuru hari amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ayanditseho ari mu ibara ry'umukara yanditse ngo inzu y'ababyeyi hanze y'iyo nzu hakaba ari ubusitani buhateye burimo indabyo ndetse n'ibyatsi.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru, kikakirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo icyuma gifite ibara ry'umeru ndetse n'irindi bara rirya gusa nk'ivu, icyo cyuma kikaba gishinzwe mu gusuzuma umubiri w'umuntu, ikibazo afite naho icyo kibazo giherereye.

Inyubako igeretse rimwe, ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, ikaba ifite amadirishya y'umukara, arimo ibirahure, hejuru kuri iyo nyubako hakaba hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umuhondo, imbere y'inyubako hakaba hari ibyapa bihagaze bifite ibara ry'umweru n'umukara.

Inyubako igeretse inshuro zirenze imwe, ikaba igeretse inshuro ebyiri, iyo nyubako ikaba yubakishije igikuta gisize ibara ry'umweru, iyo nyubako ikaba ifite amadirishya afite ibara gusa nk'ivu arimo ibirahure by'umukara, hakaba hari n'ikindi gice cyubakishije ibirahuri by'umukara, imbere y'iyo nyubako hari imodoka zihagaze, hakaba hari n'abandi bantu bari gutambuka bari mu bintu bigiye bitandukanye, ku bwinjiriro hari icyapa kiriho amazina y'icyo iyo nyubako ikora.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo umugabo uri mu kagare k'abafite ubumuga bwo kutagenda, akaba hari n'abandi bagabo n'abagore bahagaze bambaye imyenda igiye tandukanye, harimo abambaye amatabuririya y'umweru ndetse n'ubururuba, n'ambaye imyenda igiye isanzwe, n'abambaye ibisarubete bifite ibara ry'ubururu. Bakaba bari mu nzu mberabyombi ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, bakaba bari kwakirwa n'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zisize irangi ry'umweru, icyo cyumba kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umweru, icyumba kikaba kirimo igitanda kiryamaho umurwayi icyo gitanda kikaba kiryamyeho n'umurwayi wiyoroshe ishuka y'umweru.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru kikaba kirimo n'utubati tugeretse dufite ibara ry'umweru n'umukara. Icyo cyumba kikaba kirimo abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu bwerurutse. Icyo cyumba kiba kirimo n'icyuma gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara icyo cyuma kikaba kifashishwa mu buvuzi.

Ivuriro rishinzwe kwita ku bantu bafite ikibazo cy'amaso baje gushaka rinete z'amaso, iryo vuriro hakaba hari utubati dufite amarinete y'ubwoko bwose afite amabara atandukanye harimo umukara ndetse n'ayandi mabara atandukanye n'umukara.

Inyubako ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, ikaba irimo intebe zifite ibara rijya gusa nk'ivu n'ameza afite ibara rijya gusa nka kaki n'utundi tumeze duto dufite ibara ry'umukara n'umweru, iyo nyubako ikaba irimo imitako y'ibiti ndetse n'indabyo, hakaba harimo n'agasahani gatoya gafashe indabyo ziri ku meza ifite ibara rijya gusa nka kaki.

Umuganga wambaye amarinete y'umukara akaba yambaye n'itaburiya ifite ibara ry'umweru y'amaboko maremare, mo imbere akaba yambayemo agapira gafite rijya gusa nk'ivu, akaba yambaye agakoresho gapima uko umutima w'umuntu utera, gafite ibara ry'umukara ndetse n'utundi twuma dushamikiyeho ,akaba afite igitabo gifite ibara ry'umukara kirimo impapuro z'umweru. Iruhande rwe akaba hari umugore uri muyaka y'izabukuru wambaye ikanzu yadozwe mu gitenge ifite ibara ry'ubururu.

Icyumba cy'ivuriro kirimo abantu batandukanye harimo abarwayi, n'abarwaza, abaganga, ndetse n'abashinzwe gukora amasuku, iki cyumba cy'ikivuriro kikaba gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, n'irindi bara rijya gusa nk'ivu, kikaba kirimo ibitanda bifite ibara ry'umweru, bikaba biriho ibiringiti bifite amabara agiye atandukanye, hakaba harimo abaganga bambaye impuzankano zibaranga, harimo amataburiya y'umweru, hakaba harimo n'ushinzwe gukora amasuku wambaye umupira w'ubururu, na rakirete mu maboko.

Icyumba cy'ivuriro kirimo inkuta zifite ibara ry'umweru n'amakaro y'umweru, icyumba kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo igikoresho cyifashishwa mu kujugunyamo imyanda yose yakoreshejwe muri icyo cyumba, hakaba harimo n'ibindi byuma bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo n'utubati tugeretse dushinzwe kubika ibikoresho bigiye bitandukanye icyo cyumba kikaba gifite n'amatara y'umweru.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta ziriho amabara agiye atandukanye n'ibishushanyo bigiye bitandukanye, harimo inzovu, igisamagwe, inkende n'ibindi nk'inyoni ndetse n'indi mitako, iki cyumba cy'ivuriro kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi ndetse n'igitanda umurwayi aryamaho n'akandi gatebe gatoya umuganga yicaraho, mu gihe ari kuvura umurwayi uryamye kuri icyo gitanda cy'umukara.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, hakaba harimo n'utubati tugerekeranyije turimo ibikoresho bigiye bitanye bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, icyo cyumba cy'ivuriro kiba kimo igikoresho gifite ibara ry'umweru ndetse n'irindi bara rijya gusa nk'ivu, icyo cyuma kikaba kifashishwa mu gusuzuma umubiri w'umuntu, ikibazo ufite n'aho icyo kibazo giherereye.

Inzu mberabyombi nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umukara, byifashishwa mu myitozo ngororamubiri y'ibice bigiye bitandukanye harimo igikoresho cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri yo kwirukanka, imyitozo ngororamubiri y'amaboko ndetse n'iy'umugongo, iyo nzu mberabyombi kandi ifite inkingi zifite ibara ry'umweru n'amadirishya afite ibara ry'umukara arimo ibirahure.

Inyubako ifite ubwinjiriro hejuru kuri ubwo bwinjiriro hakaba hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, afite ibara rijya gusa umutuku ari mu ubuso bw'umweru, kuri ubwo bwinjikaba hari igipangu cyubakishije ibyuma hakaba hahagaze n'umubyeyi uhetse umwana uwo mubyeyi akaba yambaye imyenda idoze mu bitenge, mo imbere hakaba harimo inyubako ifite urukuta rw'umweru n'idirishya rifite ibara rijya gusa icyatsi ririmo ibirahuri ikaba ifite n'amabati y'icyatsi.

Umukobwa ufite umusatsi mukeya uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye agasengeri gafite ibara ry'icyatsi, umweru n'ubururu, ufite agatambaro ko kwihanaguza gafite ibara ry'umweru ku rutugu, akaba afite n'icupa ririmo amazi ari kunywa rifite ibara ry'umweru n'ubururu.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rijya gusa nk'ivu, wambariyemo agasengeri gafite ibara ry'umukara, wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru y'idiva, ikaba ifitemo n'imisego ifite ibara ry'umweru. Akaba afite igikoresho mu ntoki gifite ibara ry'ubururu cyifashishwa mu kuzirika ku rugingo rwahuye n'ikibazo cy'imvune.

Umukobwa wambaye isengeri ngufi igaragaza umukondo, umukobwa akaba yambaye ipantaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri akaba afite umurongo ngendanwa ku kaboko k'ibumoso, akaba afite n'icupa ry'amazi ku kiganza cy'iburyo yitwaje, iryo cupa rikaba ririmo amazi ari kunywa.

Uducupa dutatu dufite ibara ry'umweru. Harimo tubiri dupfundiki ndetse n'akandi kamwe kadapfundikiye. Tukaba turiho icyapa gifite ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyonye agiye afite amabara agiye atandukanye arimo umweru n'umutuku ndetse n'andi mabara y'umuhondo.

Umukobwa ufite umusatsi mukeya w'umukara, wambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi, umweru, n'ubururu, akaba afite agatambaro ko kwihanaguza gafite ibara ry'umweru, akaba akambaye ku rutugu, akaba afite n'icupa rijyamo amazi ry'umweru, rifite umufuniko w'ubururu, iryo cupa rikaba ririmo amazi ari kunywa.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'mweruriro kiba kirimo n'utubati tugeretse dufite ibirahure by'umukara ku kabati, kakaba gafite ibara ry'umukara kabitswemo imiti igiye itandukanya, icyo cyumba kikaba kirimo agatanda gafite ibara ry'ubururu, karyamaho umurwayi waje kwakirwa, muri icyo cyumba, muri icyo cyumba kikaba kirimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura umurwayi waje muri icyo cyumba.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku, imashini z'umukara ndetse n'imigozi ifite ibara ry'umukara. Kikaba kibikwamo imiti y'ubutabazi bw'ibanze mu gihe umuntu yahuye n'ikibazo cy'imvune mu gihe ari mu myitozo ngororamubiri, kikaba kirimo imiti igiye itandukanye ari iyo guhanagura igisebe mu gihe umuntu yakomeretse ndetse n'iyo kuzirika ku rugingo rwagize imvune ndetse n'ibindi bitandukanye ndetse n'ibipfuko.

Umugabo ufite umusatsi mukeya w'umukara akaba yambaye agasengeri gafite ibara rijya gusa nk'ivu, ku kuboko kw'ibumoso akaba yambayeho isaha ifite ibara ry'umukara, uwo mugabo akaba ari mu myitozo ngororamubiri y'amaboko ndetse n'iy'ibindi bice bigiye bitandukanye.

Uducupa dutandukanye, dufite amabara atandukanye, dufite n'ingano zigiye zitandukanye. Uducupa twose tukaba turiho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu mabara atandukanye, aho ahari ari amagambo afite ibara rirya gusa umuhondo, umukara ndetse n'umweru. Iruhande rw'utwo ducupa ari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu ibara ry'umweru arimo ubuso bufite irijya gusa umutuku.

Umugabo wambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi, aka yambaye n'agatambaro gafite ibarara rijya gusa n'umutu ku kuboko kw'ibumoso, akaba afite icupa rijyamo amazi rifite umufuniko w'umukara, iryo cupa riba ririmo amazi ari kwimenaho mu gihe ari mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zisize irangi rijya gusa umweru, hasi hakaba hari amakaro, icyo cyumba kikaba kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi, ibikoresho bifite ibara ry'umweru, umukara, ubururu, ndetse n'ibifite ibara ry'icyatsi, muri icyo cyumba cy'ivuriro hakaba harimo umugabo wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umuhondo, n'ipantaro ifite ibara rijya gusa n'ivu, akaba yambaye inkweto z'umweru na ga z'umweru.

Ibikoresho bitandukanye harimo ibyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri y'amaboko, ndetse n'ikindi gikoresho cyitwa metero kifashishwa mu gupima uburebure bw'umuntu. Bikaba byegeranye n'ikirahure kirimo umutobe ukomoka ku myembe, ndetse n'ikirahure cy'amazi kegeranye n'imbuto harimo pome n'inkeri n'izindi mbuto n'amacunga, hakaba hari n'urundi ruhande rurimo ifi.

Umuganga wambaye itaburiye ifite ibara ry'umweru, akaba yambaye ishati y'ibara ry'umweru, iyo taburiye ikaba iriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'ikirango gifite ibara ryo gusa'ubururu ndetse n'umuhondo, akaba yambaye agakoshoshinzwe gupima k'umutima w'umuntu utera gafite ibara ry'umukara, akaba ari kuvura umuntu wambaye ikabutura ifite ibara rijya gusa nk'ivu bari kumuvura ku gice k'ivi gishobora kuba cyahuye n'imvune.

Ibiganza bibiri bitandukanye harimo ikiganza k'iburyo ndetse n'ibumoso, bikaba byambaye ga zifashishwa mu kurinda ibiganz, mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, izoga zikaba zifite igice kimwe giciye intoki, ikindi kiba kidaciye intoki ku gikumwe.

Icyumba cy'ivuro gifite inkuta zifite ibara rijya gusa n'umutuku, kirimo abantu babiri aho harimo uryamye ku gitanda afite ikibazo cy'imvune yo mu ivi. Akaba ari kwitabwa n'uwambaye imyenda y'umukara, ari kumufasha mu gusuzuma urugingo rw'ivi ikibazo rufite, yifashishije agakoresho gafite ibara ry'icyatsi kerurutse.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru munsi yaho hari andi magambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'icyatsi, munsi hakaza n'amazina y'abantu bagiye bandika ayo magambo, akaba ari mu buso burimo ishusho y'ibinini by'umweru n'inshinge.

Umugabo wambaye ikote rifite ibara rijya gusa ivu, wambaye n'ikabutura ifite ibara ry'umukara, iruhande rwe hakaba hari igikapu gifite ibara ry'umukara, uwo mugabo akaba afite icupa ry'amazi rinini rifite ibara ry'umukara, rikaba ririmo amazi ari kunywa mu gihe ari mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba cy'ivuriro gifite urukuta rusize irangi rifite ibarajya gusa nk'ivu, muri icyo cyumba kirimo igikoresho cyifashishwa mu buvuzi, gifite ibara ry'umweru, umukara ndetse n'ubururu, kikaba cyegeranye n'akandi gakoresho gato gafite ibara ry'umweru kifashishwa mu buvuzi.

Ukuboko k'umuntu kuziritseho agatambaro gafite ibara ry'umutuku kifashishwa mu kuzirika ingingo zawe n'ikibazo cy'imvune kuruhande rwako hari umuzingo w'agatambaro gafite ibara ry'umutuku munsi hakaba hari andi mabara agiye atandukanye harimo umutuku, umukara ndetse n'ubururu hari n'utwuma twifashishwa mu kuzirika urugingo rwahuye n'ikibazo cy'imvune.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku, gifite imishumi y'umukara, igikapu kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo imiti, harimo ibitambaro byifashishwa mu kuzirika igice cyagize imvune, hakaba harimo n'ibipfuko, n'imiti isigwa ku gikomere. Bikaba bifite amabara agiye atandukanye harimo ubururu, umweru, icyatsi, ndetse n'umutuku.

Imiti igiye itandukanye iririmo ducupa tugiye dutandukanye ifite imimaro igiye itandukanye harimo imiti yo gusiga ku rugingo rwagize ikibazo cy'imvune ndetse n'akandi gatambaro kabugenewe gashinzwe kuzirikwa ku gice cy'ingingo cyagize imvune ino miti ikaba yifashishwa mu butabazi bw'ibanze mu gihe umuntu yahuye n'ikibazo cy'imvune mu gihe imyitozo ngororamubiri.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umutuku. Munsi hari ibikoresho bigiye bitandukanye harimo imiti, ga ndetse n'ibindi bitandukanye harimo imiti, umukasi, uducupa dufite amabara agiye atandukanye ndetse n'ibinini n'inshinge n'udupfukamuwa ndetse n'agakarito kabugenewe gakubiyemo imiti yo kwifashishwa mu butabazi bw'ibanze, n'ibipfuko bigiye bitandukanye ndetse n'itoroshi.

Imiti igiye itandukanye ifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku n'ubururu, iri mu bintu bigiye bitandukanye harimo amashashi ndetse n'uducupa, imiti ikaba yifashishwa mu kuvura umuntu wagize ikibazo cy'imvune cyangwa ikindi kibazo cyo gukomereka mu gihe iyo ari mu myitozo ngororamubiri.

Muganga wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu, ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'uburu, wambaye apfukanwa k'ubururu bwerurutse, akaba afite igikoresho mu ntoki gifite ibara ry'umweru yifashisha mu gusuzumisha, umwana wambaye agapira kajya gusa umuhondo ukikiwe n'umugore wambaye umwitero ufite ibara ry'umuhondo ndetse akaba anambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu bwerurutse, bakaba bari imbere y'ameza ariho ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru n'amadirishya y'umweru arimo ibirahure, hakaba harimo ibitanda bifite ibara ry'umweru biryamyeho abarwayi bagiye batandukanye bambaye imyenda igiye itandukanye, icyo cyumba kikaba kirimo abaganga ndetse n'undi mugabo wambaye ikote rifite ibara ry'umukara, wambariyemo ishati ifite ibara ry'ubururu, bakaba bari kumwe n'umuganga w'umugore uri kubereka icyuma gifite ibara ry'umweru gifite ishusho y'umuntu bari kuvuganiraho.

Agakoresho gafite ibara ry'umweru n'umukara, kakaba gafite amapine rimwe, abiri, atatu, ane, afite ibara ry'umukara, icyo gikoresho kikaba cyifashishwa mu gufasha umuntu wagize ikibazo cy'ingingo cyangwa ufite ikibazo cyo kutagenda, kikamumenyereza mu kugenda n'amaguru.

Abantu babiri batandukanye bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo umugore ufite imisatsi miremire y'umukara; akaba yambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'umukara, kariho ikirango gifite ibara rijya gusa nk'umuhondo; akaba yambaye umupiramo w'amaboko magufi afite ibara ry'umukara, akaba ahetse igikapu gifite ibara ry'umukara. Yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, akaba ari kumwe n'uwambaye umupira ufite ibara ry'umweru urimo imibare, ndetse ikaba irimo n'ikirango gifite ibara rijya gusa umuhondo, ndetse n'agapukamunwa gafite ibara ry'uburu bwijimye.

Imeza ifite ibara rijya gusa umukara ikozwe mu mbaho, iriho isahani iriho imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, hariho igikoresho cyifashishwa mu imyitozo ngoramubiri y'imitsi yo mu kaboko, umugozi wo gusimbuka, n'inkweto zo gukorana imyitozo ngoramubiri, n'agakoresho kifashishwa mu gupima uko umutima w'umuntu utera muri ako kanya.

Amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umukara, iruhande rwayo hari igishushanyo gishushanyije umuntu uri mu myitozo ngororamubiri yo kwirukanka, kigaragaza umuntu wambaye isengeri ifite ibara ry'umutuku, harimo umweru hagati, akaba azengurutswe n'uruziga rufite ibara ry'icyatsi, umuhondo, n'ubururu.

Imeza ifite ibara ry'umweru ikoze mu mbaho iriho imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'ibiribwa ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamomubiri, harimo imbuto icunga ndetse na pome, hakaba harimo n'imboga rwatsi, hakaba hariho n'ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngoromubiri y'amaboko ndetse n'imetero ifite ibara ry'umuhondo iriho imibare ipima uburebureba, hakaba hari n'igikombe cy'ikirahure kirimo ji.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo n'urucaca rurerure, hakaba harimo umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara, akaba yambariyemo n'agapira k'umutuku karimo ibara ry'umweru hagati. Akaba ari gukora ku gihingwa gifite ibara ry'icyatsi cyifashishwa mu buvuzi gakondo, ndetse no mu gukora imiti gakondo ituruka ku bimera.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi gifite amababi menshi areba mu byerekezo bitandukanye, icyo gihingwa kikaba cyifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti gakondo.

Uducupa dutandukanye dufite ibara ry'umweru tugiye tuvanzemo ayandi mabara agiye atandukanye, twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza agiye atandukanye, ari mu mabara agiye atandukanye, utwo ducupa tukaba duhuriyeho no kugira ikirango k'igisiga kiri kuguruka.

Ibihingwa bifite ibara ry'icyatsi ndetse bikaba bifite n'amababi menshi yagiye atandukanye ayi mu byerekezo bitandukanye bikaba biri mu dushashi tw'umukara twabugenewe two guhingiramo ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu gukora ubuvuzi gakondo.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda itandukanye harimo abambaye amakoti amashati adoze mu bitenge ndetse n'abambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi bahagaze mu murima uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, bakaba bahagaze impande y'igihingwa cyitwa igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi kifashishwa mu gukora mu buvuzi gakondo ndetse no gukora imiti y'ubuvuzi gakondo.

Akajerekani gatoya gafite ibara ry'umweru n'umufuniko ufite ibara ryijya gusa umuhondo kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, afite ibara rijya gusa n'umuhondo. Ako kajerekani kakaba gafiteho ikirango k'igisiga kiri kuguruka, munsi y'ako kajerekani kandi hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umukara akaba ariho n'imbuto zindi zifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse n'ubuvuzi gakondo ako kajerekani kakaba karimo n'umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Umurima urimo ibihingwa byinshi bitandukanye, hakaba harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, gifite amababi menshi, icyo gihingwa kikaba cyifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo, ndetse kikaba kifashishwa no gukora ubuvuzi gakondo bukomoka ku bihingwa.

Urupapuro rw'umwe ruriho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ari mu ibara rijya gusa ubururu, yanditse ngo baho neza, munsi hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye harimo igitunguru ndetse n'indimu n'agacupa karimo umuti, ibyo byose bikaba byifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo ndetse n'imiti gakondo.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, gifite amababi menshi ari kureba mu byerekezo bigiye bitandukanye, icyo gihingwa kikaba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo, ndetse no mu gukora ubuvuzi gakondo bukomoka ku bimera.

Agacupa gatoya gafite ibara ry'umweru ndetse n'ufuniko w'umweru kariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, afite ibara rijya gusa nk'umuhondo, munsi hakaba ari ubuso butoya bufite ibara ry'umuhondo bwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umukara gafite n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Uducupa dutandukanye dufite amabara atandukanye arimo udufite ibara ry'umweru, umuhondo, ndetse n'icyatsi. Utwo ducupa twose tukaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu mabara agiye atandukanye, utwo ducupa twose tukaba duhuriyeho n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka, kigiye kiri kuri buri gacupa.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, ibyatsi ndetse n'ibindi bitandukanye bifite amabara giye atandukanye arimo umuhondo ndetse n'icyatsi, harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi gifite n'amababi mu byerekezo bitandukanye kifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse kikanifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ameza afite ibara ry'umweru, ariho uducupa tugiye dutandukanye, hariho uducupa tw'umweru ndetse n'umuhondo, hakaba hariho n'udukarito dufite ibara ry'umweru wivanze n'icyatsi, ibyo byose bikaba biriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, byose bikaba bifite ikirango cy'igisiga kiri kuguruka, ku ruhande hari ibihingwa bigiye bitandukanye, bifite ibara ry'icyatsi n'imbuto zifite ibara ry'umutuku.

Agacupa gafite ibara ry'umweru n'umufuniko ufite ibara rijya gusa umutuku, ako gacupa kaba kariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza n'ishusho y'igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi n'izindi mbuto zifite ibara ry'umutuku. Ako gacupa kandi kakaba kariho ikirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Agashashi gafite ibara ry'umuhondo kakaba kariho n'akandi gapapuro kometseho kariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara rijya gusa umutuku ari mu buso bw'umweru n'andi ari mu buso bw'ishusho y'ibimera birimo. Hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umuhondo. Mu imbere muri ako gashashi k'umuhondo hakaba harimo n'ibindi bimera bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo buturuka ku bimera.

Uhandusai twinshi dutandukanye dufite ibara rijya gusaa turimo ibikoresho byinshi by'ibihingwa bigiye bi bitaye bifite amabara agiye atandukanye arimo ibifite ibara ry'umutuku, umweruru ndetse n'ibindi bifite ibara rijyagusa umukara, ibyo bihingwa byose bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo igihingwa gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, icyo gihingwa kikaba kifashishwa mu buvuzi gakondo, ndetse no mu gukora imiti gakondo, bikomoka ku bimera.

Ishashi ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, ikaba yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ari mu ibara ry'ubururu bwerurutse, ikaba ifiteho n'ikirango cy'igisiga, kiri kuguruka gifite ibara rijya gusa nk'ubururu.

Ibihingwa bibiri bimeze kimwe gusa biri ahantu hatandukanye, bifite ibara ry'icyatsi hakaba harimo n'igifite indabyo zifite ibara rijya gusa umutuku, ibyo bihingwa byose bikaba byifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo bukomoka ku bimera.

Icupa rifite ibara ryo gusa kaki rifite agapapuro gafite ibara ryo gusa umuhondo, ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umutuku wijimye hakaba hari ikirango cy'igisiga kiri kuguruka, munsi hakaba ari n'ishusho y'uruyuki.

Uducupa dutandukanye dufite ibara ry'umwerun'icyatsi hakaba hari n'akandi gafite ibara ry'umweru harimo' irindi barara ry'umukara, utwo ducupa tukaba turimo ubuso bufite amabara atandukanye akaba ari agacupa gafite ibara ry'umweru n'umukara karimo ubuso bufite ibara rijya gusa umutuku, ako gacupa kakaba kegeranye n'indabo rifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo ndetse n'igice cy'igikarubanda utundi du twaba turi mu buso bw'icyatsi ubwo bucupa bukaba bwegeranye n'igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi.

Agacupa k'umweru gatoya gafite umufuniko w'umweru urimo ibara ry'icyatsi, agacupa kaba kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi, munsi akaba ari ubuso bw'ibara ry'icyatsi cyerurutse, akaba harimo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru.

Ibiganza bitandukanye bifite ibihingwa bigiye bitandukanye, bifite amabarage agiye atandukanye, harimo ibihingwa bifite ibara ry'icyatsi cyijimye ndetse n'icyatsi cyererutse n'ibindi bigiye bitandukanye, ibyo bihingwa byose bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti gakondo.

Uducupa tubiri dufite ibara ry'umuhondo, gusa dufite imifuniko ifite amabara atandukanye, aho kamwe gafite ibara rijya gusa n'umuhondo, akandi kakaba gafite ibara rijya gusa na kaki. Utwo ducupa twose tukaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, twose tukaba dufite ikirango cy'igisiga kiri kuguruka. Utwo ducupa twose kandi dufite igishusho y'ikimera cyitwa igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi, cyifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse n'umuganga gakondo.

Ibihingwa bigiye bitandukanye harimo indimu, umucyayicyayi n'ibindi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo. Hakaba harimo ibifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku, icyatsi cyerurutse ndetse n'icyatsi cyijimye, ibyo byose bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Uducupa dufite ibara ry'umweru ndetse hakaba harimo n'ubuso bufite ibara ry'icyatsi butoya burimo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru hejuru yabwo akaba ariho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ishusho y'igihingwa cyitwa igikarubamba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse n'ubuvuzi gakondo akaba ariho n'ikindi kirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Umurima urimo ibyatsi ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye hakaba harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi gifite amababi menshi ari kureba mu byerekezo bitandukanye, icyo gihingwa kikaba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye hakaba harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amababi afite ibara rijya gusa nk'umweru n'imbuto zifite ibara rijyagusa n'umuhondo ndetse n'umutuku ibyo bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Inyubako ifite inkuta zifite ibara ry'umuhondo, hakaba harimo n'imitako igiye itandukanye, hakaba harimo n'utumeza tugerekeranyije, turimo amacupa agiye atandukanye, arimo amacupa arimo imiti gakondo ndetse n'andi macupa arimo amazi yo kunywa, n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye. Muri iyo nzu harimo umugore wambaye itaburiya y'amaboko magufiya ifite ibara ry'umweru, akaba ari we utanga serivisi zo kugurisha imiti ituruka ku buvuzi gakondo.

Ibiganza bibiri bifite agapapuro k'umweru karimo umuti ufite ibara ry'icyatsi, uwo muti ukaba ukomoka ku bihingwa byifashishwa mu gukora umuti w'ubuvuzi gakondo, ndetse no mu gukora imiti gakondo.

Akajerekani gatoya gafite ibara ry'umuhondo kakaba gafite umufuniko ufite ibara rijya gusa umutuku kakaba kandiditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umutuku akaba ariho n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Igiti, kifite ibara rijya gusa na kaki, giteretseho, ibikoresho, bigiye bitandukanye. Harimo amacupa aboneana, n'utundi ducupa dutoya, n'agasani k'umweru, byose bikaba birimo, ibihingwa bigiye bitandukanye n'imiti igiye itandukanye, ituruka kuri ibyo bihingwa, byifashishwa, mu buvuzi gakondo ndetse no gukora imiti, y'ubuvuzi gakondo.

Agacupa gafite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko w'umweru kariho icyapa gifite ibara ry'ubururu, ndetse kakaba yivanzemo n'indi bara ry'umweru kakaba kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ndetse akaba afite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru hakaba hariho n'ikirango k'igisiga kiri kuguruka.

Uducupa, kamwe, tubiri, dutatu, tune, dutanu, dutandatu, turindwi, dufite amabara atandukanye, arimo utw'umweru, umuhondo, ndetse n'utundi tuvanze amabara arimo umweru n'umuhondo, agafite umweru n'irindi bara rijya gusa umutuku, utwo ducupa twose tukaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, akaba twose duhuriyeho ku kirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Amacupa agiye atandukanye, harimo amacupa abonerana ndetse n'andi afite amabara y'icyatsi umukara ndetse n'andi afite ibara rijya gusa na kaki, akaba arimo imiti igiye itandukanye yo kunywa ndetse n'indi yo kwisiga, iyo miti ikaba ikozwe mu bihingwa byifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti gakondo.

Uducupa dutatu dufite amabaragi atanumo agafite ibara ry'umye ndetse n'umufunikotiba ryo gusakaki n'agafite ibara ry'umuhondodafite umufunikojya gusakaki ndetse n'akandi gafite ibara ry'umuntu gafite n'umufuniko utwo twose tukaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza tukaba tunafite ikirango k'igisiga kiruhuka akaba ariho n'ishusho y'igihingwa kitwika akaromba cyifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti gakondo.

Igiti kirekire gifite amashami atandukanye, akaba kiriho amababi afite ibara ry'icyatsi ari kureba mu byerekezo bigiye bitandukanyeti, kikaba kifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no gukora imiti gakondo, kifashishwa mu kuvura umuntu ufite ikibazo cy'inkorora.